Aha ni ku kigo cy'amashuri ca pirimeri. Gisa neza cubatse neza, gifitemo n'ubusitani bwiza.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye ga segondari， iyo bari mu kigo babaga bameze neza， bambaye impuzankano zibagaragaza ko ari abanyeshuri.

Uyu munyeshuri ari kwiga imirimo y'amaboko mu mashuri yisumbuye n'ubumenyigiro. Yigaga ibijanye na tekinike.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye bigaga ibijanye n'ubwogoshi kugira ngo nibagera hanze barangije kwiga bazabashe kwihangira imirimo kuko bize kogosha.

Abanyeshuri bitabiriye isomo rya mudasobwa mu kigo cy'amashuri. Umwarimu wabo ari kubererekera uko bakoresha mudasobwa. Bari kwiga ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bo mu mashuri gisumbuye ga segonderi iyo bari ku ishuri bose babaga bambaye impuzankano zisa zigaragaza ko bose bigaga aho hantu.

Abanyeshuri bitabiraga isomo ry'umuzika. Mwarimu wabo ari kubigisha gucuranga gitari n'ibindi bikoresho by'umuziki, barabyigaga bakabishobora.

Abanyeshuri bo mu mashuri gisumbuye ga segonderi bigaga ibijanye n'ubuganga kugira ngo bazabashe kuvura abantu neza mu gihe bazaba bashoje kwiga bakaba babyigira ku mamashini gabo gabugenewe.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri makuru, biga ibijanye n'ikoranabuhanga ku mamashini gabo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bakurikiye mwarimu wabo, bose bicaye imbere ya za mudasobwa bakurikiye amasomo.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri yisumbuye bari kwiga ibijanye no gukora amazi, kugira ngo nibarangiza kwiga, bazaje kwihangira imirimo bageze hanze cyangwa se bagure ubumenyi bafite.

Aba banyeshuri bambaye amasarubeti, bafite n'imyiko bari kwiga ukuntu bakubaka ibyo babigishije.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri makuru, yisumbuye. Bigaga ibijanye n'amahoteri no gukora icayi.

Mu mashuri ga segonderi bagombaga kugira ahantu h'isomero ry'ibitabo, kuko bifashaga abanyeshuri mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaja baraja gusoma ibitabo bakiyungura ubumenyi mu byo biga.

Bigaga gufunga imashini. Imashini ikoreshwa mu mirimo ya buri munsi, mu mashuri cyangwa mu baturage bari kubaza cyangwa se hari ibindi bintu bagiye gukora.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye ga segondere. Bose baricaraga bagatuza mu gihe bari gukora ibizamini kugira ngo bazatsinde babone ko ibyo bigaga, muri ago mashuri babifashe neza.

Mu mashuri habagamo intebe n'ameza, isomero ry'ibitabo n'tubati. Ago meza n'intebe byifashisha abanyeshuri bari kwiga naho ibyo bitabo bikifashishwa n'abanyeshuri bari gusobanukirwa amasomo gabo.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye bigaga ibijanye n'ubuhinzi, kugira ngo nibagera hanze bazabashe kwihangira imirimo zo gukora.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye bitabiriye igikorwa cyo kubaka inzu . Iyo nzu izakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo n'ibijyanye n'ibyo kwigisha abanyeshuri.

Abanyeshuri bigaga mu mashuri gisumbuye ga segonderi bigaga ibijanye n'ubuganga babaga bambaye amataburiya g'umweru bose kandi bakurikiye amasomo gabo neza.